Abantu bari hamwe ari benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze, hari ihema ry'umweru, hari inzu, imbere y'inzu hari ibendera, haruguru yabo hari imyaka.

Abagore bicaye hamwe bose bafite abana, bamwe bari konsa abandi barabakikiye abana babo, inyuma yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye, hariho irangi ry'umweru ndetse n'umukara.

Abantu benshi bari hamwe umusore ufite umusatsi wa natirere wambaye amarinete yambaye umupira w'umuhondo, inyuma harimo ibara ry'umweru yambaye ipantaro y'umukara ari gufata ku mwana wambaye umupira w'umuhondo, mama we yambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi.

Umugore ufite imisatsi igera mu maso wambaye rinete, wambaye umupira w'umweru warengejeho ijire ya kake, afite inkongoro mu ntoki ari kumwe n'abana bambaye imipira ya oranje, inyuma handikishijeho amagambo y'umukara.

Abantu batanu bari hamwe, abakobwa bane n'umuhungu umwe, bambaye imipira y'ubururu bwijimye, bambaye baje z'ubururu ziri mu ibara ry'umweru. Umusore uri ku ruhande yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso.

Abana batanu bari hamwe bane barunamye undi abahagaze inyuma, umwe yambaye karuvati y'umukara amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara undi yambaye amasogisi y'umutuku n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi bari ku ivomo baje kuvoma bafite amajerekani atandukanye, harimo umuhondo n'umukara n'ubujerekani buto. Uri gupomba yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu izingiye mu mavi. Hirya yabo hari ubwatsi.

Umwana uri ku ivomo uteze ibiganza, uri kunywesha umunwa amazi, wambaye ikabutura y'umutuku, wambaye bodaboda y'ubururu mu kaguru ke k'iburyo, hirya hari ibiti hari inzu isize irangi ry'ubururu n'umweru.

Umugabo ufite uruhara, ku mpande ufite umusatsi muke, yambaye karuvati y’ubururu, ishati y’umweru, ikote ry'umukara, impande ze har’amagambo yanditse mu nyuguti z'umukara.

Umugabo udafite umusatsi ku mutwe we, ari guseka, yambaye ishati y'amaboko magufi, n'ipantaro y'umukara, impande ze hari robine bavomaho, amaboko ye ayashikamije ku njerekani y'umuhondo.

Abantu bari hamwe umugabo yambaye itaburiya y'ubururu imbere yambayemo umwenda w'umweru w'amaboko maremare, hejuru yabo hari umunzani hirya ye hari umugore ufite umwana wambaye amasogisi y'umweru wambaye n'agapira k'ubururu.

Abantu bahagaze imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro zijyiye zitandukanye zifite ibara ry'ubururu, bege, umweru n'izindi. Kandi muri bo hari umusaza wambaye amarinete hamwe na kositime ifite ibara ry'umukara, kandi hari uri inyuma yabo ari gufotora.

Abasore babiri bahagaze, umwe wiyogoshesheje yambaye baji y'umutuku, umupira w'ubururu, yambaye n'agakoma ku kaboko ke k'iburyo, undi ufite umusatsi yambaye ishati ya kake y'amaboko magufiya, ifite ibipesu by'umweru, ahetse n'igikapu cya kake, afite agakomo ku kaboko ke.

Abantu benshi bari hamwe abagabo n'abagore, abagore harimo abahetse abana bahagaze imbere y'inzu isize irange ry'icyatsi kibisi ku nzugi, hari ibendera hari n'ihema ku ruhande rwabo.

Abantu benshi bari hamwe bambaye imipira y'umuhondo iri mu ibara ry'umweru babiri muri bo baricaye abandi barahagaze, umwe muri bo yambaye baje mu gatuza.

Abantu benshi bari ku ivomo, umugore uri gupomba yambaye igitambaro cy'umuhondo, umupira w'icyatsi kibisi uri mu ibara ry'umweru, yambaye ingutiya ndende y'umweru, umwana utezeho yambaye agapira k'umutuku k'amaboko magufi.

Umukobwa usutamye wambaye ijipo y'umukara, ufite umusatsi wa natirere urimo guseka, imbere ye hari jerekani ayifasheho iteretse mu ibase, inyuma ye hari imyenda yanitse harimo ubururu, umukara, ndetse n'indi.

Abagabo babiri barigusuhuzanya baseka, bambaye karuvati z'umukara, umwe afite telefone mu ntoki, undi afite ibitabo mu ntoki, yambaye n'amarinete, hirya yabo hari amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo y'icyongereza.

Abantu benshi bari hamwe bicaye imbere yabo hagiye hateretse uducupa turimo amazi, kandi na none hagiye hateretse udupapuro tw'umweru twanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Abantu bari hamwe, umwana bari gutera urushinge, yambaye agapira k'umweru, kariho igipesu cy'umukara, mu mutwe we, harimo amasaro afite amabara atandukanye, hariho icyatsi kibisi, umuhondo, ndetse n'umutuku.

Abantu bari hamwe, abagabo babiri bari kureba abandi bantu, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, bambaye karuvate z'ubururu, amashati y'umweru, n'amakote. Umugabo umwe w'iburyo, yambaye amarinete.

Abantu bari hamwe umugabo wiyogoshesheje ufite umusatsi wa natirere ku mupande ufite agasatsi gake, yambaye amarinete, yambaye umupira wumuhondo n'ipantaro yumukara arasutamye, arikumwe n'umugore ufite umwana wambaye umupira w'umuhondo, umugore afite natirere yambaye umupira w'umweru uri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bari hamwe ku ruhande rw'ibumoso hari abantu babiri, hirya yabo hari ibendera mo hagati hari umugabo wicaye ku ntebe y'umukara, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'umutuku.

Umugore ufite umwana mu ntoki wiziritse igitenge mu gatuza gifashe k'umwana afatishije akaboko ke k'iburyo kuri robine ari kuvomera mu ndobo y'umukara, umwana we yambaye akagofero k'umweru n'amagisi y'umweru.

Abantu babiri, umugabo umwe afite ubwanwa n'umusatsi w'umukara mukeya yambaye ishati y'umutuku irimo ibara ry'ubururu, yambaye n'ipantaro y'umukara ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye imyenda yamucikiyeho.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ifunze ibipesu witeye umwitero w'umuhondo yakutse amenyo ayo hejuru y'immbere nayo hasi yambaye ingofero ifite urukinga afite inkoni iriho ibara ry'umukara.

Umugore wicaye wambaye igitambaro mu mutwe ukikiye umwana yambaye umupira w'amaboko magufi wa kake yambaye n'ingutiya imbere ye hari urutaro ruriho mironko hirya ye hari undi mwana uhicaye.

Abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ingofero, umupira w'amaboko maremare w'umukara urimo ibara ry'umweru, imbere yambaye umupira w'ubururu, bafashe ku giti. Abandi bagabo benshi barahagaze, imbere yabo hari icyapa cy'umweru kirimo ibara ry'umutuku n'icyatsi kibisi.

Umugore w'umusatsi wa natireri, wambaye igitenge, wambaye inkweto zifunguye. Yicaye ku ntebe y'urubaho, imbere ye hari umusambi, inyuma ye hari idirishya rikinguye rikoze mu giti.

Umugore ufite isuka mu ntoki icuramye, wikoreye igitebo kiriho n'imigozi, wambaye agapira k'umuhondo karimo uturongo dutambitse tw'umukara, hirya ye hari inzu isakaje amategura ashaje.

Abantu bari hamwe bicaye ku ntebe z'umweru, bari kumwe babiri babiri bari kuganira, bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari imodoka yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu.

Abagore babiri bari hamwe, umwe afite umusatsi wa natireri, yambaye ikanzu y'ubururu, yambaye umupira w'amaboko maremare, yifubitse sharupe, ayifungishije n'umunwa, undi afite ibisuko birebire, yambaye ishati y'ubururu bwijimye yayihinnye amaboko.

Abantu batanu bari hamwe inyuma yaho hari insina hari n'ibiti birebire, umugore umwe afite urupapuro mu ntoki undi uri ku ruhande yambaye igitambaro mu mutwe, umugabo yicaye ku ntebe y'urubaho yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare.

Umukecuru urimo guseka, mumenyo ye yo hasi afite inyinya, yambaye igitambaro kirimo amabara y'icyatsi kibisi n'umuhondo, yambaye ishati ygitenge irimo amabara y'umukara, umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu babiri bari hamwe, umugore n'umugabo, umugore afite mikoro, afite imisatsi miremire, umugabo yambaye umupira w'umukara, yiyogoshesheje amarishaho, umugore yicaye ku ntebe y'umutuku.

Umugabo wiyogoshesheje wamarishijeho afite indangururamajwi, yambaye ishati y'ubururu, iriho igifungo cy'umweru, impande ze hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Abantu batatu bari hamwe, umugabo afite inkoni mu kaboko ke k'ibumoso, umwana amufashe ku rutugu, umumama urimo yambaye urunigi mu ijosi, afashe umwana akandi kaboko no mu nda.

Abagore batatu bahagaze bambaye ibitenge, bambaye ibitambaro mu mutwe, bishingikirije ku nkoni, uri imbere afite umufuka mu ntoki arikonsa umwana, hirya yabo hari ibiti, hari n'imisozi.

Abantu benshi bari hamwe, bamwe barahagaze abandi bantu batandatu barasutamye, ibumoso hari umugabo wambaye ishati y'umutuku yijimye yambaye na marinete ufatishije akaboko ke k'ibumoso kumeza, ameza ariho n'icupa ry'amazi.

Abantu babiri bari hamwe, umugore wambaye ikote ry'ubururu ry'amaboko maremare, afite indangururamajwi mu kaboko ke, imbere ye hateretse amazi, hagati yabo hateretse sanitayiza, umugabo yambaye agapfukamunwa.

Abantu benshi bari hamwe, umugore uri imbere yambaye amarinete, yambaye baji mu ijosi, yambaye isaha ndetse n'impeta ku kaboko ke k'ibumoso, afite ikaramu mu ntoki, hirya ye hari umugore wambaye ikoti ry'umutuku.

Abantu benshi bari hamwe, umugabo muremure, wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, abandi bambaye imipira y'amaboko magufiya, y'ibara ry'ubururu harimo umweru, undi yambaye ikote rya kaki ry'amaboko maremare.

Abagabo babiri umwe yambaye umupira w'icyatsi kibisi afite umusatsi muke arasamye, undi ni umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru yambaye ga z'umweru yambaye karuvati y'umutuku.

Abantu bicaye ku ntebe bambaye imipira y'icyatsi kibisi yandikishijeho amagambo imbere mu ibara ry'umuhondo, abandi bahagaze bambaye imipira y'umweru bambaye n'udupfukamunwa batatu, umwe ari gukora mu kanwa k'umurwayi yambaye na ga.

Umwana wambaye amaherena wambaye agashati k'amaboko magufi k'umuhondo ufite umusatsi w'umukara afite amaso y'umweru arasamye muganga yambaye ga z'umweru mu biganza bye afite agakoresho bakoresha kwa muganga akamukojeje mu kanwa.

Muganga yambaye ga z'umweru n'itaburiya y'umweru, afite utwuma tubiri mu ntoki ari kuvura umurwayi uri kureba hejuru, akuma kamwe gafashe ku munwa w'umurwayi, akandi yagashyize ku menyo y'umurwayi.

Umusore ufite umusatsi muke, ufite ubwanwa bw'umukara n'amenyo y'umweru, yambaye ishati irimo amabara abiri, umweru n'ubururu y'ikora, imbere ye mu gatuza bamushyizeho agatambaro k'umweru, muganga yambaye ga z'ubururu.

Umurwayi wambaye umupira w'amaboko maremare ari gufashwa na muganga wambaye ga z'umweru, isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, afite terefone mu mufuka we w'ishati, yambaye marinete ndetse n'agapfukamunwa.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, kumpande ariyogoshesheje hejuru afiteho umusatsi w'umukara ari guseka, afite urudodo mu ntoki mu biganza bye byombi ararurambuye.

Umukobwa uri guseka, afite ibisuko by'umukara, ku ruhande rw'iburyo, harimo isaro risa n'umuhondo, imbere ye hari akantu k'umweru kagiye kariho amenyo bakora.

Umusore wambaye umupira w'ubururu bwijimye, ugarukira mu ijosi, ufite amenyo y'umweru, ubwanwa bw'umukara, wiyogoshesheje, ufite agasatsi k'akamegemege ku kumutwe we.

Umuganga wambaye agapfukamunwa wambaye ga y'umweru, ku kaboko ke k'ibumoso yambayeho agakomo k'amabara atandukanye, ariyo icyatsi kibisi, umutuku, umweru, umukara, ari gufasha umugore usinziriye wasamye ufite umusatsi w'umukara.

Abantu benshi bari hamwe, umukobwa umwe yambaye isengeri, afite ibisuko by'umukara, arasamye, afashe kuri terelefone; undi yambaye ga, yambaye itabuririya y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa k'umweru, afite urushinge mu ntoki, ari kurumukoza mu kanwa.

Abagabo bahagaze bari guseka biyogoshesheje badafite umusatsi ku mutwe, bambaye amashati y'umweru, bafite amacupa y'amazi mu ntoki umwe afite umupira w'umukara w'amaboko maremare yawushyize ku bitugu bye.

Abantu babiri bari hamwe umusaza n'umukecuru, umukecuru ufite imvi wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya, wambaye amarinete, wambaye n'impeta ku kaboko, umusaza uri kunywa amazi mu kirahure wicaye ku ntebe ndende ya kaki.

Abantu babiri bicaye umusaza n'umukecuru. Umusaza ufite ibinini mu ntoki n'agacupa k'umweru. Umukecuru wambaye iherena ry'umweru, ufite imvi wambaye umupira w'umutuku afite agapapuro mu ntoki.

Abagore batatu, uw'iburyo yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara uriho akantu k'umweru imbere, uwo hagati yambaye amarinete ariho akantu k'umukara, afite na terefone mu ntoki, uw'ibumoso yambaye akagofero k'ubururu karimo uturongo dutambitse tw'umweru.

Umugore n'umugabo, umugabo ufite imvi mu mutwe we no mu bwanwa, yambaye ikote rya oranje, umugore yambaye agapira imbere kari mu ibara ry'umweru karimo uturongo dutambitse tw'umukara, arimo guseka yambara amaherena yambaye amarinete afite umusatsi w'umukara mukeya.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru imbere warengejeho umupira w'umukara, ufite umusatsi w'umukara muremure, ari kumwe n'umukecuru wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibipesu by'umukara.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugabo udafite umusatsi ku mutwe we ari guseka, yambaye amarinete, yambaye ishati y'ubururu ifite umufuka imbere, yambaye n'isaha ku kaboko ke k'ibumoso, umugore afite umusatsi muremure yambayemupira w'amaboko maremare.

Umugore ufite umusatsi w'imvi, yambaye agapira k'ubururu k'amaboko magufi, yambaye ipantaro ndende, yambaye inkweto ifunze, arambuye amaboko ye, inyuma ye hari igiti cy'umukindo, kikiri gito.

Abantu babiri bari hamwe, umukobwa ufite umusatsi w'umukara muremure, wambaye ishati ya kake, wambaye isaha ku kaboko k'iburyo, ufite isaha mu ntoki, wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto ndende z'umukara, akaboko ke k'ibumoso agafatishije ku mugabo wunamye, wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ya kake.

Abagore babiri umwe afite umusatsi w' imvi yambaye amaherena yambaye agapira k'amaboko maremare imbere inyuma yashyize jire y'umukara ifunguye imashini undi afite umusatsi muremure w'umukara yambaye agapira k'amaboko magufi.

Abagore n'abagabo bahagaze bari mu murima bazamuye ibiganza byabo, harimo umwe uzamuye ikiganza afite akanyamuro mu ntoki kabagara kakanatera ibishyimbo, umurima barimo uteyemo amasaka n'indi myaka.

Abantu babiri bari hamwe, umukobwa usutse bituta uri guseka, yambaye agapira k'amaboko maremare imbere yambaye n'isaha ku kaboko ke k'ibumoso, inyuma yambayeho ishati y'ubururu. Umumama yambaye impeta ku kaboko ke k'ibumoso.

Umukecuru w'umusatsi urimo imvi yambaye amarinete yambaye amaherena yambaye impeta ku gaboko k'iburyo, afite ikirahure cyamazi mu kaboko ke k'ibumoso yipfutse ku mazuru yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye imipira y'umweru, imbere y'abo hari umukobwa urimo gufotora wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru. Hari n'undi mukobwa wambaye ipantaro y'umweru, ikote ry'umukara n'akenda k'imbere k'umutuku, imbere ye hari igishushanyo.

Abantu bane bari hamwe, umugabo muremure wambaye ishati y'umweru, isaha ku kuboko, abagore batatu, bambaye ibitambaro by'umweru, bambaye amadarubindi, babiri bambaye imipira y'amaboko maremare.

Abagabo babiri bahagaze, umwe yambaye amadarubindi, yambaye kositimu y'ubururu na karuvati y'ubururu, undi yambaye ishati y'umweru, karuvati y'umukara, afite igitabo mu gatuza, yambaye n'impeta.

Abaganga bari hamwe, umwe ari yicaye w'umugore yambaye igitambaro cy'icyatsi kibisi yambaye agapfukamunwa yambaye n'imyenda y'icyatsi kibisi abandi nabo bambaye utugofero twabugenewe tw'akazi bambaye imyenda na wo w'icyatsi kibisi na ga.

Abantu babiri bari hamwe, umusore wambaye ishati y'umukara, yambaye isaha ku kaboko n'impeta, umugore yambaye ikote ry'umukara na shanete n'amaherena, mu ntoki zabo bafashe icyapa, cyanditseho amagambo mu nyuguti z'umukara ndetse hariho n'umuhondo n'icyatsi kibisi n'umutuku.

Abantu benshi bari hamwe barahagaze, abagore babiri bicaye, umugore umwe yambaye akajire k'umutuku n'ishati y'umweru ihinnye amaboko, afite umusatsi wa natireri, undi yambaye umupira w'umukara n'ibisuko birebire.

Umugabo uhagaze wambaye kositimu ya kake, ishati y'umukara, karuvati y'ubururu n'umweru, imbere ye afite mikoro, yambaye amarinete, hirya ye hari igishushanyo cy'umugabo wambaye impeta n'amarinete.

Umugore wambaye igitambaro mu mutwe, akikiye umwana, aricaye umwana we nta musatsi afite ku mutwe, inyuma ye hari abasore bahagaze, umwe yambaye ishati y'ubururu ifite ibipesu, abandi bambaye amashati y'amaboko maremare ndetse na karuvati.

Abagabo babiri n'abagore babiri, umugabo umwe aricaye, yambaye ipantaro y'umuhondo ingofero y'umukara, n'umupira w'ubururu, afite terefone mu ntoki, undi arahagaze yambaye ipantaro y'umukara, n'umupira w'ubururu n'ingofero y'umukara.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, hejuru hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara, ku marembo yayo ku ruhande rw'ibumoso hari intebe y'icyatsi kibisi begamiraho, aho umuntu yinjirira iruhande rwa esikariye, hari umukobwa uhagaze wambaye agapira k'umuhondo.

Jaride irimo indabo z'icyatsi ndetse hariho umutuku, hirya yazo hari inzu ifite ibaraza kuri iryo baraza hari abantu bahahagaze, umwe yambaye ipantaro y'umukara.

Inyubako ikinguye, imbere yayo ibumoso hari indobo y'cyatsi kibisi, iburyo hari indobo y'ubururu, mu muryango hari umugabo uhagazemo wambaye bote z'umukara wambaye n'agapfukamunwa.

Abantu benshi bari hamwe bari ku murongo imbere yabo hari intebe z'umukara zegamirwa ndetse hari n'urubaho. Ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ingofero y'umukara uri kugendera mu kagare.

Inzu isakaje amabati y'ubururu, isize irange ry'umweru hose, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu, idirishya ryayo rimwe rirakinguye, ku marembo yayo hari imbuga, hirya yayo hari indabo n'ibiti birebire.

Inzu zisakaje amabati y'ibara ry'umutuku imbere yazo iburyo hari ibendera, ibumoso bwazo hari aho imodoka ziparitse, iruhande rw'izo modoka hari umugore uhagaze wambaye igitambaro.

Umusore wicaye ku ntebe y'icyatsi kibisi, yegamirwa, yambaye isaha y'umukara, yambaye itaburiya y'umweru, afite ikaramu mu mufuka we w'itaburiya, yambaye inkweto zifunze z'umukara, yambaye impeta ku kaboko ke k'ibumoso, imbere yambaye umupira wa kake ufite ikoro.

Inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu, imbere yayo isize irangi ry'umuhondo, ku ibaraza ryayo hari amavaze y'ubururu arimo indabo.

Amarembo magari akinguye, imbere yayo hari umugore uhagaze wambaye igitenge, ufite umusatsi wa natirere, uhetse umwana, mu gatuza ke yambaye agatambaro k'umweru karimo ibara ry'ubururu hasi.

Abagabo bahagaze n'abagore babiri bambaye udupfukamunwa tw'amabara atandukanye umugabo umwe yambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufi abandi bagabo babiri bishingikirije ku nkoni zifite amabara umutuku umukara umweru.

Inyubako ndende y'amabara atandukanye higanjemo ubururu, ibaraza ryayo risize ibara ry'umweru, mu mbuga yayo hateyemo imikindo, iburyo bwayo hari imodoka.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri wambaye inkweto z'umweru, amasogisi y'umukara, yambaye umupira w'umutuku wamaboko magufi, yambaye ikabutura y'umukara iriho ibara ry'umutuku arambuye amaboko ye yose.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi afite kuteri mu gutwi kwe kw'iburyo akaboko ke k'ibumoso yakazamuye ari kunywa amazi mu gapipa afite ubwanwa bwumukara

Umukobwa wambaye agaseri kari mu ibara ry'umweru, k'imishumi, kagufi, yambaye kora ndende y'umukara, afite imisatsi ifungiye inyuma, yambaye iherena, arambutsa ibiganza bye hasi, arambuye amaboko.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura y'umukara, inkweto z'umweru, yambaye umupira wa kake, arararamye, aryamye areba hejuru, yiziritse umushumi ari kuwukurura ku kaguru ke k'iburyo.

Umukobwa wambaye agasengeri kagufiya n'agakabutura kagufiya, wambaye inkweto ifunze iriho rase y'umweru ufashe mu ivi ry'akaguru ke k'iburyo n'amaboko ya abiri afunze ikiganza.

Umukobwa wambaye agasengeri, kariho ibara ry'umukara k'imishumi, afite furari ku kaboko ke k'ibumoso ku rutugu, yambaye iherena, akaboko ke k'iburyo agafatishije icupa, ari kunywa amazi.

Abantu babiri, umwe yambaye inkweto zifunze, yambaye amasogisi y'umukara, ipantaro y'umukara iriho ibara ry'umweru, agapira k'umukara kandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru, undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Umugore n'umwana bicaye, umwana yambaye amasogisi y'umweru, yambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru, inyuma hariho agakanzu gaciye amaboko, umugore afite umusatsi wa natirere.

Umugabo uhagaze uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye ikabutura y'umukara afite imitsi ku maboko ye imbere ye hari imboga zitandukanye, harimo amashu pavuro ndetse hari n'amagi.

Umuntu wambaye isengeri y'umukara wambaye ikabutura y'umukara iriho ibara ry'umweru yambaye ibirenge arambuye amaboko ye yose imbere, afite ubwanwa afungiye udusuko tugufi inyuma.

Umugore wambaye agasengeri kagufiya, wambaye ipantaro y'ubururu, yambaye amasogisi y'umweru, yambaye inkweto ifunze, akaboko ke k'ibumoso, gafashe ku kaguru ke k'ibumoso, arambuye akaboko ke k'iburyo.

Umurwayi uryamye wubitse inda ku gice cyo hepfo atwikirije umwenda w'umweru mu mugongo we harangaye, umuganga yambaye agapfukamunwa na ga z'umweru ari kumufasha, hirya yabo hari irido ry'ubururu.

Ibinini bya oranje birebire biciyemo akarongo gatambitse iby'umweru, iby'umuhondo agakoresho gakoresha bapima umuriro umurwayi, byose biri hamwe hirya yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza mu ibara ry'umweru.

Umugore ufite umusatsi w'umukara wambaye imyenda y'umweru witeye n'agasharupe k'umweru, ufite malete ya kake ku kaboko ke k'ibumoso ufashe ku cyatsi, hirya ye hari ansina.